Abasirikare beza cyane. Ni abasirikare bari kugendera ku murongo, ni abasirikare benshi bari kugenda mu muhanda. Bambaye iniforume nziza cyane, iniforume ziriho idarapo ry'u Rwanda.

Abadaso benshi cyane bicaye mu nyubako nziza, ni inyubako yubatswe neza isize irange ry'umweru. Ni abadaso bambaye inifomo yabo, bambaye ingofero nziza cyane.

Abasirikare benshi cyane ni abasirikare bambaye iniforume iriho amadarapo y'u Rwanda. Bambaye udupfukamunwa, bahetse amabage yabo, bambaye n'ingofero bari kugenda mu muhanda.

Abantu benshi bari mu nama. Ni byiza ko dukora inama tukaganira ku buryo tugomba kubana neza mu mahoro. Tukabaho buri umwe wese yishimiye uko abayeho.

Indege nziza cyane, ni indege iri mu kirere irimo kuvamo umuntu uri kumanukira k'umugozi ari kujya hasi, abandi bari mu ndege ikiri mu kirere, ni bwo buryo bwo kugira ngo bamwe bavemo bamanukire k'umugozi.

Umusirikare mwiza wambaye iniforume wambaye ingofero nziza cyane ufite amapeti ane, uri guha umumama ururabyo ari guha ururabyo nk'impano.

Abaturage benshi cyane bahagarariwe n' abasirikare harimo umusirikare umwe ufite imbunda, hakaba hariho n'undi musirikare ufite mikoro uri kugira inama abaturage.

Umupolisi uri kumwe n'abana benshi n'umumama, umumama uri kuzimya umuriro akoresheje ikiringiti cyangwa se ishuka; ari kuzimya ashyira hejuru y'umuriro.

Umupolisi w'umumama uri kumwe n'umusirikare w'umupapa, ari kumwe n'abantu benshi bari kugenda mu muhanda, bari kugenda basa neza barinda umutekano, barinda abo bari kumwe.

Abasirikare benshi cyane, bambaye iniforume yabo ziriho idarapo ry'u Rwanda. Bambaye amajire y'umukara, bambaye ingofero z'umukara, n'udupfukamunwa tw'umukara, bahagaze kimwe.

Abagabo benshi banini bari gukoma amashyi. Bicaye bishimye bambaye amakositimu barasa neza, ubona ko bafite umunezero.

Kamera nziza cyane, ni zimwe muri kamera bashyira ku muhanda. Icyo zidufasha ni ukugira ngo zirebe umutekano wo mu muhanda, zirebe abadakurikiza amategeko yo mu muhanda.

Abantu benshi cyane ni abantu barimo abagore, abagabo. Bicaye mu ntebe nziza cyane bicaye mu nyubako nziza cyane ni inyubako y'amakaro y'umweru. Bari mu nama umumama uhagaze yambaye rinete ufite mikorofone uri kubagira inama y'uko babaho mu buzima bwiza.

Umu papa uri kwigisha inama, uri kwigisha abantu benshi cyane bitwikiye imitaka, bari kwiga uburyo bwo kubana neza mu mahoro kugirango tubeho ubuzima bwiza.

Abantu benshi cyane, ni abantu bicaye ahantu heza, ni ahantutu mutwatsi twiza cyane, dukikijwe n'ibiti, ni bya biti biri kubaha umuyaga. Ni abantu bari mu nama harimo abaporisi, abasirikare, harimo n'abaturage bari kugirwa inama, n'umumama ufite mikorofoni uri kubagira inama.

Abaturage benshi cyane, ni abaturage bicaye ahantu heza hakikijwe n'ibiti, bya biti biri kubaha umuyaga mwiza, basohora umwuka mubi, bakinjiza umwuka mwiza, ni abaturage bari mu nama bari kwiga ku mibereho yabo.

Abantu benshi cyane, ni abantu bari gukora umuganda. Ni abantu benshi bafite ibitiyo, bari gukora umuhanda, mu buryo bwo kugira ngo isuku igaragare neza, mu gihugu cyacu.

Abantu benshi cyane n'abantu bicaye batuje, bari kujya inama bari kugenda bandika ibyo bari kuvuga mu nama, bafite amazi meza cyane n'amazi ya nili, ari mu ducupa tw'umweru dufite imifuniko y'ubururu.

Abantu benshi cyane, ni abantu bicaye mu nyubako nziza, bicaye bambaye neza, bicaye mu ntebe nziza cyane, ni abantu bari kujya inama y'uko bagomba kubaho, bakabana neza mu mahoro, buri umwe wese yishimira uko abayeho.

Abantu benshi cyane, ni abantu barimo abicaye n'abahagaze, n'abantu barimo gutora, bari gutora abayobozi beza, abayobozi babona ko bazabateza imbere, bazabayobora neza bakabaho mu buryo bishimiye.

Umugabo wikoreye umuvure: umuvure ni igikoresho twifashisha mu gukama umutobe. Umutobe guva mu mineke. Umutobe ni ikinyobwa cyiza.

Umumama uri gusya amasaka . Ari gusya amasaka yifashishije urusyo. Afite inkoko hejuru y'aho hari agakoma. Akaba afite icyibo cyo kwifashisha mu gihe iyo amaze gusya ari buyishiremo. Apfukamye ku kirago.

Inzogera, inzogera ni ibintu bakunda kwambara cyane bari nko kubyina, babyina inzogera zikajya zivuga. Inzogera bakunda kuzambika imbwa, imbwa zagenda zikagenda ziri gucuranga.

Ababyinnyi benshi bari kubyina， imbyino gakondo， bafite imisatsi myiza， biteze udutambaro tw'umweru， turimo amabara y’ubururu， bikenyeje igitambaro cy'mutuku， bafite inkoni， bari kubyina imbyino zimwe.

Ingano nyinshi cyane ni ingano zeze kandi zumye. Ziri mu kabase. Ingano ni zimwe mu bwoko bw'imbuto. Ubwoko ubetesha ugakoramo umutsima cyangwa ugakoramo igikoma.

Abakobwa benshi cyane, ni abakobwa bambaye imikenyero myiza, ni abakobwa bari gukoma ingoma, buri muntu ufite ingoma ye, akaba afite umurishyo. Ni abakobwa bari gukoma ingoma mu buryo bumwe, bakagendera hamwe.

Umukobwa uri gusekura umuceri ari gusekurira mu isekuru, hafi ye hariho akabase, indobo, agatebo ari kugenda ashyiramo ibyo amaze gusekura.

Isekuru irimo ifu bari gusekura, ni isekuru basekuriramo ibintu bitandukanye. Basekuriramo imyumbati y'ubugari, bagasekuriramo umuceri mu buryo bwo kuwutonora basekuza umuseguzo.

Inyubako nziza cyane ni inyubako z'amazu menshi ni amazu yubatse kimwe yubakishije amatafari ahiye atonze k'umurongo afite amabati meza cyane y'umutuku.

Abapapa babiri, umwe ufite umuheha. Umuheha yawujombye mu muvure. Uwo muvure uba urimo inzoga ni za nzoga benga zo mu bitoki, inzoga ziryoshye z'urwagwa.

Abamama n'abagore bikoreye ingobyi, ingobyi irimo umuntu imbere yabo hariho undi muntu wikoreye ikibindi iyo ngobyi irimo umugeni.

Umugabo n'umugore, ni umugabo n'umugore bari mu bukwe, umugore yambaye imikenyero, umugabo yambaye ikositimu. Ni abantu bafite imiheha, buri muntu afite umuheha we, awushize mu nzoga Ni inzoga iri mu ndobo nini cyane, bari kunywa.

Abantu benshi cyane harimo abagore, abagabo, ni abantu bafite imiheha bayishyize mu nzoga, ni inzoga iri mu muvure, inzoga nyinshi cyane, bari kunwa inzoga ari abantu benshi.

Umumama uri gukama inka, ari kuyikama yayiziritse amaguru abiri. Ari gukama amata meza cyane, amata ni meza mu mubiri.

Umuntu uri gusya amasaka apfukamye ku kirago . Ari gusya amasaka akoresheje ibuye . Ni ibuye rinini cyane ryitwa urusyo, hafi aho hari inkoko hakaba hari akebo n'umuvure.

Inkono nyinshi cyane, ni inkono abantu bakunda gutekemo cyane nk'abantu bo hambere, inkono ni ibikoresho bakora mu ibumba, ukayikora ku buryo uyitekeramo ibyokurya biryoshye.

Abantu benshi cyane, ni abantu bakenyeye bambaye neza, harimo abagore, abagabo. Ni abagabo bafite imiheha bashyize mu kibindi, ikibindi kirimo inzoga. Hari n'abama bafite inkoko ni za nkoko ziriho ibishyimbo byi...

Abamama bane bamwe bicaye ku ntebe abandi bicaye ku misambi, impande yabo hariho imiheto, amacumu. Ni bimwe mu bikoresho kera bifashishaga nk'intwaro mu buryo bwo kwirwanaho.

Imitiba itatu ni imitiba minini ni imitiba idufasha kubona ubuki. Iyo inzuki zinjiye mu mutiba zikora ubuki bwa buki bwiza tunywa tukumva ubuzima bwacu buri kugenda neza.

Imbyino gakondo yari imbyino hambere bakunda kubyina. Byabaga ari byiza bambaye kimwe, bambaye imisatsi imwe, babyina bimwe byabaga ari ibintu bisa neza cyane.

Umusaza uri kubumba inkono, akabumba n'ibibindi, inkono ni mu bikoresho dukunda kwifashisha mu guteka, ikibindi cyo dukunze kubikamo imyaka, hafi aho hari imitiba, niyamitiba twororeramo inzuki.

Inyubako nziza cyane. Ni inyubako ngari. Ni inyubako ya etage enye. Yubakishije amatafari ahiye. Isize irangi ry'umweru. Inyubako isakaje amabati meza cyane.

Umuhanda mwiza cyane ni umuhanda wa kaburimbo urimo amabara meza umweru n'umuhondo, hakurya y'umuhanda hariho inzu nziza cyane. Ni inzu zubatse neza hakaba hariho ibyapa byiza biranga ahantu.

Ikigo cy'amashuri ni ikigo gituye ahantu heza hakikijwe n'ibiti, ni ikigo cyubakishije amatafari ahiye, irange ry'umweru n'amabati y'umutuku.

Umusigiti mwiza cyane, ni umusigiti munini ni urusengero abayisilamu basengeramo, rwegereye umuhanda rwubatse neza cyane rusize irangi ry'umuhondo n'icyatsi kandi rukaba rurimo umuriro.

Inzu nziza cyane irimo umupapa wicaye mu ntebe nziza ,zimifariso harimo n'meza meza cyane .Harimo sima nziza y'umutuku.

Icyapa cyiza cyane. Ni icyapa cyegereye umuhanda. Ni icyapa gisize irangi ry'ubururu n'ibara, n'irange ry'umweru. Ni icyapa kigaragaza aho imodoka zigomba guparikwa.

Inyubako nziza cyane . Ni inyubako ngari yubakishije amatafari ahiye ,isize irangi ry'umweru ,isakaje amabati meza cyane . Ni inyubako irimo sima isa neza.

Amashuri meza cyane, ni amashuri aturiye umuhanda, ni amashuri yubatse neza yubakishije amatafari ahiye, asize irangi ry'umweru asakaje amabati y'umutuku.

Amashuri meza cyane, n'amashuri aturiye umuhanda, amashuri arimo umuriro, ni amashuri ariho jaride nziza cyane, amashuri yubatswe neza arimo ibirahuri byiza, asakaje amabati meza.

Ikigo cyiza kirimo ubusitani. Ni byiza ko twubaka ubusitani kugira ngo abanyeshuri bajye bicara baruhukire mu busitani.

Urusengero runini cyane. Ni urusengero rwubatswe neza rurimo abantu benshi, rusize irangi ry'umweru ririmo amakaro n,inzugi za mitarike rusakaje amabati meza cyane ni amabati.

Inyubako nziza cyane ni inyubako ya etaje eshatu isize irange ry'umweru, yubakishije amatafari ahiye, isakaje amabati meza cyane ituriye umuhanda mwiza wa kaburimbo.

Umumama w'umuyobozi wambaye agapfukanwa n'amarinete, ufite imisatsi myiza, uhagaze iruhande rw'amataje, amataje menshi meza, amataje yubakishije amatafari ahiye n'amarangi y'umweru n'umukara.

Umuhanda mugari, ni umuhanda uri gukorwa ugakorwa neza bashyiramo kaburimbo, ubona ko hari umusozi bari gukora umuhanda mwiza, ugaragara w'iterambere.

Inzu nziza cyane zubakishije amatafari ahiye irangi jumweru n'amabati y'umutuku ni inzu ziri hakujya y'umuhanda zisa neza cyane

Inyubako nziza cyane . Ni inyubako yubatse neza yubatswe muburyo bwa etaje . Ni inyubako ifite jaride nziza ,yubakishije amatafari ahiye, isize irangi ry'umweru ifite matalike z'ubururu ,isakaje amabati yubururu.

Urusengero rwiza cyane, ni urusengero rwubatswe neza. Rutuye ahantu heza harimo jaride nziza, imbere yaho ari aho bakarabira intoki. Urusengero rwubakishije amatafari ahiye, rusize irangi ry'umukara, rusize n' irangi ry'umweru.

Urusengero runini cyane, urusengero rwubatse neza ruriho umusaraba, ni urusengero rw'abagatorike. Ni byiza ko dusenga tukibuka Imana yacu, tukajya dusengera muri uru rusengero.

Imodoka nziza cyane ni imodoka iri kunyura ku kiraro cyiza cyane. Cyubatswe neza ni ikiraro cyubakishije ibyuma bisize irangi ry'icyatsi. Hari kunyuraho abagenzi benshi n'abatwaye amagare.

Abantu benshi cyane bari mu kiriziya, ni urusengero runini cyane rwubatse neza, bari gusenga Imana nziza. Ni ya Mana yaturemye, ya Mana ikiduha umwuka duhumeka w'abazima.

Inyubako nziza cyane ni inyubako ngari, ni inyubako yubatswe muburyo bwa etage, ni etage nyinshi, ni inyubako yubatswe isa neza cyane, isize irangi ry'umweru, ni inyubako ituriye umuhanda, ni umuhanda mwiza cyane, umuhanda usa neza.

Urusengero rwiza cyane, ni urusengero runini rugari, n'urusengero rurimo ubusitani bwiza cyane, n'urusengero rwubakishije amatafari ahiye n'amabati y'umutuku, rusize irangi ry'umweru.

Amashuri meza cyane, ni amashuri yubatswe ahantu heza ni ahantu heza hari jaride nziza cyane, irimo ibiti byinshi ni ibiti bisa neza, ni amashuri yubakishije amatafari ahiye asize irangi ry'umweru, n'amabati y'umutuku, ni amashuri aturiye ku musozi.

Inyubako nziza cyane, ni inyubako ya etaje enye, ni ikigo cy'amashuri, ni inyubako yubatswe neza, yabakishije amatafari ahiye, isize irangi ry'umweru, y'amabati meza cyane. Ni nyubako yubatswe iruhande rw'umuhanda, ifite umuriro, amatara hafi aho.

Abaturage benshi cyane ni abaturage bicaye hamwe, ni abaturage bari mu nama harimo umu daso, harimo n'umumama uhagaze ufite mikoro uri kubagira inama y'uko bagomba kubaho mu buzima bwa buri munsi.

Aba mama n'aba papa bicaye bari mu nama bayobowe n'umugore. bari kwiga uburyo bw'imibereho ya buri munsi, uburyo tugomba kubana neza mu mahoro, tukabaho uko buri umwe wese yishimiye.

Abantu benshi cyane. Ni abantu bicaye bari mu nama Ni abantu bari kujya inama . Hari umwe uhagaze ,ari kubagira inama y'uko bagomba kubaho mu buzima bwa buri munsi biga kubana neza n 'abandi.

Imodoka nziza cyane ni imodoka itwara abantu n'ibintu, ni imodoka y'amabara y'ubururu n'umweru itwaye amakaziye y'umuhondo, ni imodoka iri ku muhanda mugari.

Gare nini irimo abantu benshi, irimo imodoka nyinshi, harimo imodoka nini itwara abagenzi yanditseho volucano. Ni imodoka isize irangi ry'ubururu n'umweru.

Indege nini cyane ni indege nziza yanditseho rwandeya, iriho amabara y'umweru n'ubururu, iriho n'amabara y'ikirangantego cy'urwanda: ubururu, umuhondo n'icyatsi.

Gare nziza cyane ni gare ngari irimo imodoka nyinshi cyane, ni gare yegereye umuhanda irimo imodoka zitwara abagenzi zibavana muri gare zibajyana ahantu runaka, bitewe n'aho bari kujya.

Abamotari batatu, ni abamotari bari mu muhanda, ni umuhanda mwiza cyane wa kaburimbo. Abamotari badufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, n'iyo turi gukora urugendo badutwara mu buryo bwihuse tutiriwe twivuna.

Abamotari benshi cyane, ni abamotari baparitse bambaye kasike nziza, amajire meza. Ni abamotari baparitse mu ruhande rumwe. Abamotari ni bamwe mu bantu badufasha mu rugendo rwacu rwa buri munsi.

Umugabo uri ku igare, ni umugabo utwaye umugore, n'umugore ucigatiye umwana. Igare ni rimwe mu bikoresho bidufasha gutwara imizigo no gutwara abantu, rikabavana ahantu ribajyana ahandi.

Abamotari benshi cyane bicaye ku ma moto yabo bambaye amajire, bambaye n'amakasike. Ni abamotari batwara abantu babavana ahantu babajyana ahandi.

Imodoka nini cyane, ni imwe mu modoka zitwara abantu benshi, ni imodoka nyinshi ziparitse zo mu bwoko bwa ritiko, zisize irangi ryicyatsi, n'ubururu, n'umweru, ni imwe mu modoka zibamo intebe ndende cyane.

Umupapa uri mu muhanda, ni umuhanda urimo gukorwa, urimo amafuso ari kwikorera ibitaka, ni ibitaka byo kugira ngo bitsindagire umuhanda, umuhanda uringanire neza.

Abamotari babiri, ni abamotari bari mu muhanda mwiza cyane, ni umuhanda munini wa kaburimbo, harimo umumotari utwaye imizigo, hari n'undi mumotari utwaye abagenzi.

Imodoka itwara abagenzi, imodoka ni nziza zituma dukora urugendo byihuse, atari nka mbere bakoraga urugendo rurerure n'amaguru, ubu byaroroshe imodoka zarabonetse.

Imodoka nini cyane ni zimwe mu modoka zitwara abantu zibajyana ahantu runaka. Imodoka zirimo intebe nziza cyane ni zimwe mu modoka zitwara abantu benshi. Imbere hariho abagenzi bari gutega imodoka n'umushoferi uri kubishyuza.

Abagore babiri n'abagore bambaye amataburiya, bafite ingorofani, umwe ufite ingorofani ipakiye imizigo, undi ufite ingorofani itariho ikintu.

Umupapa wicaye kuri moto wambaye umupira w'ubururu, yicaye kuri moto nziza cyane, ni moto zigezweho, ni za moto zikiri kwaduka ziterambere. Ni moto ziri kugendera mumuhanda ukabona ni nziza cyane.

Ikimodoka kinini cyane, ni kimwe mu bimodoka bitwara amazi biyajyana ahantu habuze amazi, cyangwa se mu gihe bari gutsindagira umuhanda hagakenerwa amazi.

Imodoka nziza cyane ni imodoka nini y'amabara y'umutuku n'umweru. Ni imodoka ijyamo abantu benshi, ifite intebe nziza za ntebe nini. Ni imodoka itwara abagenzi.

Abamotari benshi cyane ni abamotari bafite amamoto meza cyane, hariho kasike nziza kaziseke zisa neza, bambaye amajiri meza cyane ni ba bamotari badufasha mu rugendo rwa buri munsi, mu buryo bwo kugira ngo tudatinda mu nzira.

Gare nini cyane ni gare irimo imodoka nyinshi irimo abagenzi harimo imodoka zitandukanye. Ni imodoka zitwara abantu zibavana ahantu hamwe zibajyana ahandi.

Imodoka nziza cyane ni imodoka nini niya modoka ijyamo abantu benshi cyane ifite intebe nziza ndende. Imodoka iri kugendera mu muhanda itwaye abagenzi.

Ubwato burimo abantu benshi cyane, ni ubwato busakaye ni ubwato bw'ibyuma, ni ubwato buri mu kiyaga. Ni ikiyaga kinini kigari cy'amazi menshi, amazi asa neza.

Umupapa ufite ikarita, ni ya karita bakoza ku modoka akenshi iyo bari kwinjira mu modoka . Hajeho iterambere ku buryo kwishyura ari ugukoresha ikarita atari ukwishura mu ntoki.

Gare irimo imodoka nyinshi cyane, ikaba irimo abagenzi benshi cyane, gare iba irimo imodoka nyinshi zidufasha, kugira ngo abagenzi bave muri gare bajye ahantu runaka, bitewe naho bashaka kujya.

Abagore babiri bari gusunika imizigo. Ni imizigo irimo matora, harimo mali, harimo n'igitebo n'imifuka. Ni abagore bari kugenda mu muhanda, mu muhanda w'ibitaka.

Igifuso kinini cyane ni igifuso cyiza cy'amabara y'umukara n'umweru n'umutuku. Ni igifuso kiri kugenda mu muhanda ni kimwe mu bifuso bitwara imizigo, bigatwara ibintu byinshi.

Umuhanda mwiza cyane urimo imodokadoka nini z'amafuso n'modoka nyinshi zitwara imizigo. Harimo abagenzi bari kugenda ku magare n'abagenzi bari kugenda n'amaguru, ni umuhanda urimo umutekano.

Gare nini cyane ni gare irimo abagenzi benshi ikaba irimo imodoka nyinshi zitandukanye, imodoka zivana abantu muri gare zibajyana ahantu runaka bitewe n'aho bari kujya.

Imodoka nini cyane ni imodoka ziri kugendera mu muhanda, ni zimwe mu modoka zifite intebe ndende zitwara abagenzi benshi, zibavana ahantu runaka zibajyana aho bashaka.

Umuhanda munini urimo abagenzi. Urimo ibyapa bitandukanye bigaragaza aho umuntu agomba kujya, n'aho ari ho. Hariho abagenzi b'amagare n'abagenzi b'amaguru.

Abamotari benshi bari mu muhanda harimo imodoka, umuhanda mwiza urimo umuriro, umuhanda urimo abagenzi benshi basa neza.

Imihanda myiza cyane ni imihanda myiza ya kaburimbo igiye inyuranyemo, imihanda irimo imodoka nziza cyane irimo abamotari ,abagenzi bagenda n'amaguru ,hariho ibyapa byiza cyane biranga ahantu.

Abamotari benshi cyane, ni abamotari bari mu muhanda. Ni umuhanda mwiza wa kaburimbo, urimo abagenzi batandukanye, ni umuhanda utuweho abantu benshi, harimo abacuruzi n'abaturage.

Amasiganwa y'amagare, ni amagare menshi cyane ariho abakinnyi bambaye iniforume, bambaye ingofero, bambaye na linete bari gusiganwa, bari kugendera mu muhanda.

Umupapa uri mu kiyaga uri koga, ari koga yambaye linete ni zimwe muri linete zidufasha kureba neza igihe turi mu mazi ,kugira ngo tutagira ibyo duhura na byo tutabizi.

Abakinnyi beza cyane bambaye imyenda ya siporo, ni abakinnyi b'abakobwa bafite balo nziza cyane, bari mukibuga cyubatse neza, ni ikibuga gisize irangi ry'ubururu kirimo abafana.

Amasiganwa y'amagare ni amasiganwa ari gukorwa n'abantu benshi cyane, ni abantu bari ku magare, bari mu muhanda mwiza cyane, inyuma yabo bakurikirikiwe n'imodoka. Ni za modoka zigenda zibareberera aho bageze, zikabaha n'ibyo kunywa.

Abakinnyi beza cyane ni abakinnyi bari mu kibuga bambaye iniforume. Ni abakinnyi barimo gukina umupira bambaye iniforume nziza cyane y'ubururu n'umuhondo, bambaye ingofero nziza bakina umupira.

Pisine nziza cyane, ni pissine yamazi meza, ni amazi meza asa neza, ni pisine yubakiye neza, ikikijwe n'ibiti byiza, bya biti bitanga umuyaga mwiza cyane, umuntu uri muri pisine akumva umuyaga usa neza.

Umupapa uri kugenda ufite balo eshatu wambaye imyenda ya siporo harimo ipantaro y'umukara irimo ibara ry'ubururu yambaye n'umupira w'ubururu uriho idarapo ry'u Rwanda.

Abantu benshi cyane ni abantu bari iruhande rw'umuhanda, ni umuhanda mwiza wa kaburimbo umuhanda uri kunyuramo amagare, ni abakinnyi b'amagare bari mu masiganwa, mu buryo bwo kugira ngo barebe umuntu uzi gutwara igare kurusha abandi.

Umukinnyi uri muri siporo wambaye inifomo ya siporo, yambaye ipantaro nziza cyane, yambaye n'inkweto zifunze n'amasogisi n'umupira wa siporo, afite baro nziza y'amabara meza ubururu n'umukara.

Abakobwa bari muri siporo bari gukina umupira siporo ni nziza ituma tunanura umubiri amaraso agatembera mu mubiri ni byiza gukora siporo.

Umukinnyi mwiza cyane, ni umukinnyi wambaye imyenda ya siporo, yanditseho nimero icyenda. ufite ikirangantego cy'idarapo ry'U Rwanda .afite ballon nziza cyane, ubona ko agiye muri siporo, afite courage.

Umukobwa wambaye imyenda ya siporo. Yambaye inkweto zifunze, ni umukobwa uri gukora siporo mu buryo bwo gusimbuka, mu buryo bwo kugira ngo arambure umubiri we, kugira ngo amaraso atemmbere neza mu mubiri.

Abakinnyi benshi bambaye iniforme bari gukina voreboro, voreboro ni umukino dukina mu buryo bwo kugira ngo tunanure umubiri wacu mu buryo bwo kugira ngo amaraso atembere neza mu mubiri.

Abasore benshi cyane, ni abasore ubona ko bakiri batoya bari masiganwa y'amaguru, bari kwiruka basiganwa, bari muri sitade nziza cyane, ni sitade irimo intebe nziza, ni ikibuga cyubatswe neza cyane.

Pisine nziza cyane ni pisine iri ahantu heza ,hari jaride nziza ,hakikijwe ibiti biyiha umuyaga mwiza cyane, ni ya pisine wogamo ukumva ubuzima bwawe nubuzima buzira umuze.

Abakinnyi benshi harimo abakobwa abahungu, bari gukinira mu kibuga cyiza cyane hari abafana benshi cyane bakunda siporo.

Umusore wambaye imyenda ya siporo. Ni umusore ufite baro uri gukina baro. Ni umusore ufite imbaraga, ni n'umusore uri gukora siporo mu buryo bwo kugira ngo amaraso ye atembere neza mu mubiri.

Abasore benshi cyane, ni abasore bari mukibuga, bambaye imyenda myiza cyane ya siporo, bambaye amakabutura n'imipira. Bambaye inkweto nziza zifunze, bari mu kibuga kiza gisa neza kirimo intebe nziza z'ubururu.

Abantu benshi cyane, ni abantu barimo inkumi n'abasore, bambaye imyenda ya siporo, bambaye umuhondo n'umukara, n'andi mabara atandukanye, ni abantu benshi bari mu masiganwa y'amaguru.

Abagabo n'abagore, ni abantu bicaye mu ntebe nziza cyane, harimo abatoza ni b'abatoza baba batoza, abakinnyi uko bagomba gukina nuko uko bagomba kwitwara mu kibuga, mu gihe bari gukina umupira.

Abasore benshi cyane bari muri siporo bari mu masiganwa y'amagare bari ku magare bambaye iniforume zabo bambaye ingofero bambaye amarinete ubona ko bari mu masiganwa.

Abasore babiri, abasore baba muri siporo, ni abasore bahawe ibihembo byabo bafite ibikombe, abasore bakina umupira w'amaguru, bakora siporo mu buryo bushobotse.

Abantu benshi cyane bambaye iniforume, bambaye ingofero batwaye amagare bari mu masiganwa. Ni amasiganwa y'amagare akunze kubaho, kugira ngo barebe umuntu uzi gutwara igare kurusha abandi.

Umukino wa basiketi ni umwe mu mikino idufasha kunanura umubiri, bigatuma amaraso atembera neza mu mubiri tukagira ubuzima bwiza.

Umusore uri mu izamu, wambaye imyenda myiza ya siporo . Yambaye inkweto nziza zifunze ,yambaye ipantaro y'umukara n'umupira wamaboko . Ni umupira urimo idarapo ry'u Rwanda ,afite baro nziza cyane ,baro yo gukina.

Umuhungu wambaye imyenda ya siporo, yambaye ikabutura nziza cyane y'ibara ry'umweru, nimero makumyabiri nenye, yambaye isengeri nziza cyane y'ibara ry'umweru, iriho n'ubururu yanditseho nimero makumyabiri nenye, afite baro nziza cyane ari gukina basiketi.

Umukinnyi w'umusore. Ni umukinnyi wambaye isengeri ya siporo. Ni umwe mu bakinnyi bakunda kwiruka. Umukinnyi ubona ko afite ibyuya, ufite imbaraga.

Sitade nini cyane, ni sitade irimo abantu benshi cyane, ni abantu bicaye bareba umupira. Umupira ni imwe mu mikino abantu bakina mugihe bari guhangana, cyangwa se bari kunanura umubiri.

Abakinnyi bari gukina vole bolo. Vole bolo ni umukino w'amaboko ,umukino mwiza cyane w'umupira. Ni umukino ukina ugatuma amaraso atembera neza mu mubiri.

Umuhanda mwiza cyane, ni umuhanda urimo amapave, impande iriho amabara meza cyane y'umweru, umuhanda udufasha mu buryo bwo kugira ngo urugendo rwacu rworohe, kugira ngo dutege ibinyabiziga bitandukanye.

Umuhanda mwiza cyane, ni mumuhanda wubatswe neza, ni umuhanda urimo amapave meza, umuhanda urimo umudugudu mwiza usa neza, ugenderamo abantu benshi, ni abantu batandukanye, baturuka mu buce butandukanye.

Umumama uri kugenda mu muhanda mwiza cyane, ari kugendera mu muhanda mwiza wa kaburimbo utuweho abantu benshi, harimo abacuruzi n'abaturiye umuhanda abaturage.